Utubari mu gihugu turi bumwe mu bikorwa by'ubucuruzi biteje imbere cyane Abanyarwanda benshi, aho baba bacuruza ibyo kunywa harimo inzoga, harimo ibisindisha ndetse n'ibidasindisha.

Mu Rwanda hari ubucuruzi bugiye butandukanye, hamwe ubucuruzi bw' imiti y' amatungo, imiti y' ibiribwa, imiti y' ibihingwa ndetse n' imiti yica ubukoko ku myaka, kugira ngo umusaruro wayo wiyongere.

Mu tubari ni ho abantu bahurira bagasangira, bakishima, bakidagadura, bakaganira, bakavugana ibyo bagezeho ndetse bakaniga imishinga, y'uburyo bakwiteza imbere mu minsi iri imbere.

Utubari ni hamwe mu hantu abanyarwanda bahurira, abaturage bose muri rusange bakagura ibyo kunywa bakanywa, bakishima, bakabyina, bakizihirwa, bagasangira n inshuti zabo n'abavandimwe, bakishimira ibyo bagezeho.

Mu Rwanda hari inyubako nyinshi zigiye zitandukanye. Muri izo nyubako harimo inyubako zicururizwamo. Hari izicuruzwamo ibicuruzwa byo kurya, izicururizwamo imyenda yo kwambara, hari n'izicururizwamo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Inyubako nziza akenshi cyane tuzisanga mu mugi, ariko inyubako nyinshi dusanga mu mugi usanga ari iz'ubucuruzi, usanga ari inyubako zicuruzwa n'ibicuruzwa byaba ibyo kurya, byaba ibikoresho, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Amaduka acuruza ibitenge mu gihugu ni menshi. Ibitenge bikaba byifashishwa mu kudodamo imyenda yaba iy'abagabo, cyangwa iy'abana, cyangwa iy'abagore cyane cyane.

Mu Rwanda, uhasanga amazu meza cyane akorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, harimo ubucuruzi. Kandi ayo mazu usanga afite ibyangombwa byose bikenewe: hari amatara, hari umuriro, hari amazi n’ibindi.

Ahantu henshi haba ubucuruzi mu Rwanda hamwe tuhasanga ubucuruzi bw'ibikoresho bikenewe cyane mu rugo nka gaze, aha tukahasanga ibikoresho byo kubaka birimo sima ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Imbabura ni bimwe mu bikoresho by'ibanze, buri munyarwanda wese akenera mu gihe agiye guteka ibiryo, kandi kikaba ari igikoresho giciriritse kitagura amafaranga menshi, ku buryo buri munyarwanda wese aba afite ubushobozi bwo kuba yayigura, ikamufasha guteka yifashishije ibicanwa bishya bitamuhenze.

Hari uburyo bw'ubucuruzi bwinshi bugiye butandukanye mu Rwanda by'umwihariko amabutike, kuko ni yo afasha abaturage kubona ibyo bakeneye hafi yabo kandi mu buryo bworoshye harimo ibyo kurya, harimo n'ibikoresho byo ku ishuri , n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ubucuruzi ni kimwe mu bintu bifasha cyane abaturage, abanyagihugu bose mu gihugu cy'u Rwanda, kugira ngo babone ibyo bakeneye hafi kandi mu gihe gito, kandi bitabasabye igiciro kiri hejuru cyane.

Joshuwa honesiti teke ni iduka rikora amatelefone kandi rigacuruza n'ibyuma by'amatelefone, mu gihe fone yawe yaba yapfuye wayihageza bakayigukorera ukaza gutaha fone yawe ari nzima ntakibazo ifite.

Mu Rwanda cyane cyane mu mijyi yo mu Rwanda , tugenda dusanga sitasiyo aho imodoka zijya kunywa mu gihe lisansi yazishyizemo, cyangwa se mazutu ibinyabiziga biragenda bikanyweshayo, bikabasha ingendo zabyo

Mu Rwanda kandi umubare munini w'abantu ufite ahantu ukorera ubucuruzi aho twakwita botike, bakorera ubucuruzi kugira ngo abaturage bose bajye babagezaho ibyo bakeneye. Harimo ibyo kurya, harimo imyambaro yo kwambara n'ibindi bigiye bitandukanye.

Mu maduka menshi dusanga mu Rwanda dusangamo amaduka acuruza ibikomoka ku ifu, ifu y'ingano cyangwa se y'ibigori na soya, ariho dusangamo amandazi, imigati amakeke ndetse n'amasambusa.

Mu Rwanda cyane cyane mu mijyi tuhasanga inzu z'ubucuruzi nyinshi zigiye zitandukanye. Ahanini mu mujyi cyane cyane tuhasanga inzu zicuruza imyenda yo kwambara n'inkweto.

Mu Rwanda haba amagaraje menshi, akora imodoka zapfuye cyangwa se n'ibindi binyabiziga byapfuye, amagaraje akaba yifashishwa mu kubikora.

Mu Rwanda hari amahoteri n'amamoteri menshi agiye atandukanye. Yakira abakiriya buri munsi. Kandi akabakira neza, ibyo bakeneye byose bakabihasanga, byaba ibyo kurya, haba aho kurara, byaba ibyo kuraramo, n'ibindi bitandukanye.

Mu gihugu cy'u Rwanda ahantu henshi uhasanga abacuruzi bo mu mihanda bagenda bacuruza ibicuruzwa mu mihanda ndetse no mu biturage bagenda bageza abaturage ibicuruzwa hafi yabo abafite amafaranga bakagura bagahaha bitasabye ko bajya mu isoko.

Mu masoko hasangwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo inkoko, harimo ibyibo, harimo uduseke, ibyo bikaba ari ibikoresho dusanga mu Rwanda rwa kera n'ubundi, byahoze bikoreshwa no ku bw'abantu.

Mu masoko dusanga ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo ibicuruzwa byo kurya nk'imineke ,amatunda, avoka, amapapayi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Mu Rwanda ahantu henshi tuhasanga amasoko ya kijyambere agezweho, acururizwamo ibicuruzwa bitandukanye: harimo ibiribwa, harimo imyambaro, harimo ndetse n'ibikoresho bikenerwa mu buzima bwa buri munsi, abanyarwanda bakenera.

Mu Rwanda amasoko uyasanga ahenshi yagiye atandukanye arimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi harimo ibikoresho, harimo ibyo kurya, harimo ibyo kunywa, harimi...